Leta y'u Rwanda yashyizeho aho abana bakiri bato bajya kwigira hazwi nko mu irerero kandi yashyizeho n'abarimu babizobereyemo mu gufasha aba bana. Aha rero bicaye ku mukeka bari kwiga ibintu bigiye binyuranye.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ndetse ari kumwe n'abanyeshuri yigisha biga mu mashuri y'incuke, ari kubigisha uko basoma imboga kugira ngo bajye kubwira ababyeyi babo imirimo y'amaboko bigiye ku ishuri.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bari ahantu hari ibyatsi kandi ikigo cy'amashuri bigaho cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati afite ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo intebe yo kwicaraho izwi ku izina rya sheze, ndetse icyo cyumba kirimo igikuta cyometseho impapuro zigiye zanditseho ibintu binyuranye, kandi ziri mu mabara atandukanye.

Intebe ziri mu cyumba cy'ishuri abanyeshuri bicaramo igihe baje kwiga kandi bibafasha kwiga bisanzuye kubera ko buri wese aba afite aho yica, inyuma y'izo ntebe hari ikibaho na mwarimu akoresha ari kwigisha.

Ikigo cy'amashuri kiriho abana bambaye impuzankano zirimo ibara rya kaki ndetse n'ubururu juru. Hari abana bicaye ku gikuta harimo uwambaye bote zifite ibara ry'umutuku kandi hari n'undi wambaye inkweto za bodaboda.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba byubakishije amatafari ahiye ndetse hari ahasakaje amabati y'ubururu, ahandi hasakaje amategura, icyo kigo gifite ibigega bigifatira amazi kandi harimo n'indabo.

Ikigo cy'amashuri gikinguye umuryango munini uzwi nka porotaye kandi hafi yacyo hari abanyeshuri, bamwe bari gusohoka abandi bagiye kwinjira ndetse mo imbere harimo ibiti binini.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, ndetse hari n'ahateye irangi rya beje, kandi hari aho basonera ku cyuma kugira ngo abanyeshuri bamenye isaha ikurikiyeho, aho hantu hari ibaraza risakaje ibati.

Igikuta gisize irange ry'umweru kandi gifite fondasiyo yubakishije amabuye, iruhande rwacyo hari ibyatsi ndetse kuri icyo gikuta hashushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye, hariho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara, ubururu n'umutuku.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe ndetse bari mu matsinda, aho bari kugenda basobanurirana, intebe bicayeho iteretseho igitabo uretse ko hari bamwe basinziriye bubitse umutwe ku ntebe.

Ibyumba by'amashuri byubakishije amatafari ahiye, bifite imiryango ndetse n'amadirishya, imbere y'ibyo byumba hari abana bambaye impuzankano ndetse hari n'umuntu mukuru ugaragara nk'aho ari umwarimu ubigisha.

Inyubako y'ishuri yubakishije amatafari ahiye kandi hari ahasize irangi rya beje, inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'icyatsi kandi icyo kigo cy'amashuri gisakaje amabati. Hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'indabo.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakajwe amabati, inzugi n'amadirishya by'icyo kigo bisize irange ry'umuhondo kandi muri icyo kigo cy'amashuri harimo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano. Harimo ab'abakobwa ndetse n'ab'abahungu. Bari ku ishuri aho baba baje gufata amasomo kugira ngo bunguke byinshi kandi bizabafasha mu buzima bwa buri munsi.

Igiputa gisize irangi rya beje kandi hari igipapuro cyometse kuri icyo gikuta, gishushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye, harimo isuka, umuhoro, igitiyo ndetse n'ibindi.

Iyo abanyeshuri bakererewe, usanga bahagaze ku marembo kubera ko urinda ikigo bigaho aba yakinze, ubwo rero buri munyeshuri asabwa kuzinduka kugira ngo adahagarara inyuma ya porotayi.

Icyumba cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse hari ahasize irange ry'umweru kandi gifite amadirishya arimo ibirahure. Fondasiyo y'icyo cyumba, yubakishije amabuye. Imbere yacyo hari icyapa gito cyane.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba byubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'ahasize irange ry'umweru kandi gisakaje amabati y'ubururu. Inzugi n'amadirishya, birimo ibirahure. Imbere y'ibyo byumba by'amashuri, hari ahantu hari itaka.

Igikuta cyometseho ibipapuro bifite amabara atandukanye. Harimo igipapuro cy'umuhondo, kiriho ingengabihe igena uko abanyeshuri bazajya biga mu cyumweru.

Abana b'abanyeshuri babiri, imbere yabo hari mudasobwa iri mu ibara ry'icyatsi n'umweru, bicaye ku ntebe y'ishuri kandi bicaranye n'uri kubasobanurira uko iyo mudasobwa bayikoresha.

Intebe abanyeshuri bicaraho zizwi nka pepitire, imwe muri zo iteretseho ingwa ziri mu mabara atandukanye zikoreshwa na mwarimu, mu gihe ari kwandika ku kibaho, yigisha abanyeshuri.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse harimo umurongo utambitse, usize irange rya beje kandi kuri icyo gikuta hometseho igipapuro bigaragare ko ari mu kigo cy'abanyeshuri.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse inzugi n'amadirishya ya bisize irange ry'umuhondo birimo n'ibirahure, imbere y'ayo mashuri hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse n'abarimu babo bambaye amataburiya y'umweru.

Ahantu hari ubukarabiro ndetse hirya yayo hari inzu ifite amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'ubururu kandi hirya yayo hari ibiti ndetse n'insina, hakurya y'iyo nzu hari izindi nyubako zisize irangi rya beje.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano, harimo abakobwa bambaye ifite ibara ry'ubururu, abahungu bambaye ifite ibara rya kake ndetse hari umwarimu wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira ufite ibara ry'umukara uri kugenda imbere y'ayo mashuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, baje gusenga, muri kiliziya yubatse mu ishuri bigiramo, kandi gusenga ni byiza kuko bituma umuntu yumva aruhutse, ndetse akabasha gusabana n'Imana.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri. Bafite amavalize abandi bahetsi ibikapu kandi bafite na matela bagiye ku ishuri. Bageze aho imodoka ibaparika ndetse hirya yabo hari ibiti.

Abantu benshi bari ahategerwa imodoka, higanjemo abanyeshuri bafite ibikapu ndetse na materab agiye kujya ku ishuri, kandi hirya y'iyo modoka hari n'abandi bahari bari kugenda bambaye imyenda itandukanye.

Abanyeshuri bari mu cyumba ahazwi nko muri laboratwari, bambaye impuzankano ndetse n'amataburiya y'umweru ndetse iki cyumba umuntu ukigiyemo agomba kugenda yitonze kubera ko haba harimo ibintu byinshi bishobora kumwangiza.

Umugabo ufashe telefone mu ntoki ndetse ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha, ahagaze ahantu hari amapave, inyuma ye hari inyubako isize amarange agiye atandukanye kandi hirya ye hari umuntu uri kuhagenda.

Inyubako yubatse neza kandi isakaje amabati y'ubururu, ndetse ifite igisenge kinini, hakurya yayo hari umusozi muremure uteyeho amashyamba, ndetse imbere yiyo nyubako hari abantu bari kuhagenda.

Umwarimu uri imbere ari gusobanurira abanyeshuri ibijyanye n'ibyo yanditse kandi ahagaze iruhande rw'ameza ateretseho ibitabo byinshi n'amakaye ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi bimwe bagiye kubiha abanyeshuri kugira ngo bajye babikoresha.

Icyumba cy'ishuri abanyeshuri bigiramo, harimo intebe kandi kugira ngo abanyeshuri bige neza, ni ngombwa ko bicara bisanzuye maze bagakurikira ibyo mwarimu ari kugenda abigisha.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo mu kayira k'abanyamaguru hari kugenda abihayimana, ndetse uwo muhanda ukikijwe n'ibiti n'indabo, kandi hari n'inyubako yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati.

Ishuri ririmo intebe zizwi ku izina rya pipitire, zicarwamo n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga kandi igihe cyose umwarimu ari kwigisha ahagaze imbere abanyeshuri baba bagomba kumukurikira batarangara.

Umuryango munini ukinguye werekera ku kigo cy'amashuri, mo imbere harimo aho abanyeshuri basengera hazwi nka Kiliziya yubakishije amatafari ahiye kandi muri icyo kigo harimo ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bicaye ahantu hari ibyatsi ndetse imbere yabo hahagaze umuntu uri kubagezaho ibijyanye n'amahugurwa agenewe abanyeshuri kandi ikigo bigamo cyubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse iruhande rwabo hari umugore ukenyeye imikenyero kandi imbere yabo hari undi uri kubagezaho amabwiriza bagiye gukurikiza.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe kandi bambaye impuzankano, ishuri bigiramo rifite amadirishya y'ibirahure ndetse risize amarange agiye atandukanye, imbere hari mugenzi wabo uri kugira icyo abagezaho.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ndetse hari umwarimu wambaye kositime z'umukara n'ishati y'umweru na karuvati, uri kubaha ibizamini kugira ngo bakore. Icyumba bicayemo cyubakishije amatafari ahiye.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ndetse afite ingwa ari kwandika ku kibaho asobanurira abanyeshuri ari kwigisha, imbere ye hari ameza ateretseho ibintu bigiye bitandukanye harimo n'imfashanyigisho ari gukoresha.

Ikigo cy'amashuri, cyubakishije amatafari ahiye ndetse hari amagambo agaragaza ibyo abanyeshuri baza kwiga kuri icyo kigo biga ndetse n'ibibaranga kandi biri mu ibara ry'umutuku, ubururu n'umukara.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa bari mu muhanda ahagenderwa n'abanyamaguru, bambaye inkweto zirimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara kandi hepfo yabo hari ibiti n'ibyatsi.

Abanyeshuri bicaye ahantu hari ibyatsi bambaye impuzankano, imbere yabo hari abayobozi bahicaye ndetse n'umugabo wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, ari kubagezaho gahunda polisi ifite ya gerayo amahoro.

Sitade nini irimo abantu benshi bambaye imyenda igiye itandukanye ariko biganjemo abanyeshuri, baje kureba umupira wahuje amakipe bafana kandi hari ahatwikiriye ahandi ntihatwikiriye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'imodoka kandi harimo n'abana babanyeshuri bari kwambuka muri uwo muhanda, ukikijwe n'ibiti ndetse n'indabo hamwe n'ibyatsi kandi hirya y'uwo muhanda hari amazu.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ahazwi nk'isomero, bicaye bakikije ameza ateretseho ibitabo byinshi, bari kugenda basoma kugira ngo bunguke ubumenyi ku byerekeranye n'ibyo biga.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu. Kandi muri icyo kigo hagiye hateyemo indabo n'ibiti bigiye bitandukanye, harimo imikindo ndetse hafi y'iyo mikindo hari amadarapo abiri, harimo iry'igihugu cy'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba byubatse ku buryo bugeretse ndetse harimo abanyeshuri bambaye impuzankano, bamwe baricaye abandi barahagaze, bari gukurikirana umugore uri kubagezaho gahunda ibagenewe.

Abanyeshuri bari mu muhanda kandi uwo muhanda ruguru yawo hari igipangu gisize irange ry'umweru n'ibara risa n'ivu kandi fondasiyo y'icyo gipangu yubakishije amabuye.

Abakinnyi bari mukibuga, bambaye imyenda bagiye gukinana, harimo abambaye icyatsi, ubururu, umutuku, umuhondo, kandi imbere yabo hari abagiye kubaha amabwiriza y'uko umukino uri bugende.

Ikigo cy'amashuri ndetse cyubakishije amatafari ahiye kandi hari n'ahari ibyuma bifite ibara ry'icyatsi, ubururu n'umuhondo, inyuma y'icyo gipangu hari ibyatsi ndetse n'indabo.

Ubusitani bwiza burimo ibyatsi bitoshye ndetse n'indabo kandi hateyemo n'ibiti birebire, hirya y'ubwo busitani hari inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isize amarange agiye atandukanye.

Inyubako isize umucanga ndetse hejuru hari amakositara menshi ari ku murongo, ifite umureko kandi hirya yayo hari ibiti by'amoko agiye atandukanye birebire.

Icyumba kirimo igikuta gisize irangi kandi ni icyumba cy'ishuri kigirwamo n'abanyeshuri. Harimo porojegiteri yifashishwa mu gihe abanyeshuri bari kwiga bagira ngo barebe ibyo biga ibyo ari byo.

Ubukarabiro bugezweho bwa kijyambere buzwi nka ravabo, bufite aho babika isabune kugira ngo idatoha cyangwa se ikageraho amazi kandi bwubakishijwe amakaro.

Bimwe mu bikoresho abanyeshuri bakoresha kugira ngo babashe kwiga neza, harimo mudasobwa ndetse na porojegiteri kubera ko bibafasha mu kunguka ibijyanye n'ikoranabuhanga no kumenya uko mu isi y'ahandi bimeze.

Icyumba kirimo akabati gato karimo inkweto zifite amabara agiye atandukanye harimo iry'umweru, umukara n'ayandi ndetse hejuru yako hateretse utujerekani dutatu tw'arindwi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, kigaragaza kaminuza y'u Rwanda hafi y'iyo nyubako, igiye ikikijwe n'utuyira twubatse neza kandi hari n'ubusitani.

Ahantu hari amapave ndetse hepfo y'aho hari ibyatsi bitoshye birimo n'indabo kandi muri ibyo byatsi hari ahari kuva izuba, ahandi hari igicucucu cy'ibiti birimo.

Icyumba kinini cyane kirimo ibitabo ahazwi nko mu isomero. Abanyeshuri baza gufata ibitabo bagasoma ndetse ibindi bakabitira bakajya kubisomera mu ishuri. Ibi bibafasha mu kunguka ubumenyi.

Icyumba kimanitsemo amarido afite amabara agiye atandukanye, ndetse hari intebe n'ameza kandi ibitanda bibiri byombi biri muri icyo cyumba bishasheho amashuka afite amabara asa.

Umugore uri kugenda mu muhanda ahagenewe kugenda abanyamaguru, kandi iruhande rw'uwo muhanda hari indabo ndetse n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku.

Abantu bicaye muri ''salle'' nini cyane, kandi bambaye imyenda igiye itandukanye. Harimo abagabo ndetse n'abagore, bari gukurikirana inama bari kugezwaho n'abayobozi babo.

Icyumba kirimo intebe nyinshi kigirwamo n'abanyeshuri kandi icyo cyumba gifite inkuta zisize irange rya beje, hari n'amadirishya y'ibirahure atuma muri icyo cyumba hinjiramo umucyo.

Icyumba kirimo ibitanda birarwaho n'abanyeshuri kandi harimo akabati gasize irangi rya beje n'ibara risa n'ivu ndetse hari n'amarido amanitse muri icyo cyumba.

Icyumba kirimo akavuyo kenshi, harimo inkweto z'amabara atandukanye, tapi, indobo, amabase ndetse hari n'aho bakarabira hazwi nka lavabo kandi icyo cyumba gifite urugi rusize irangi risa n'ivu.

Akabati kabitsemo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda, pehashi, ndetse hari n'ahamanitse amashakoshi inkumi zikunda kwitwaza, mu gihe cy'ibirori cyangwa se hari ahantu bagiye runaka.

Urugi rwegeretse ku gikuta rwakutse ruriho icyapa kigaragaza Kaminuza y'u Rwanda ndetse hariho n'ikimenyetso kigaragaza ko aho hantu bibujijwe kuhanywera itabi.

Umuntu wicaye ku ntebe, afite igitabo mu ntoki ari kugisoma, anaseka kandi imbere ye, hari ameza ateretse mudasobwa ndetse iyo mudasobwa iriho ikaramu.

Icyumba kirimo ibitabo byinshi ndetse hari n'ameza n'intebe abantu baje muri iri somero bicaraho bagasoma ibitabo runaka bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo ameza asize irangi ry'umweru, ateretseho ibintu bigiye bitandukanye, muri byo harimo mudasobwa abanyeshuri bifashisha mu gihe bari mu bushakashatsi kandi hari n'ibitabo binyuranye.

Mudasobwa ifasha abanyeshuri mu kongera umuvuduko mu myigire yabo kubera ko biborohera iyo bagiye gushaka amakuru ku mbuga zigiye zitandukanye, arebana ni ibyo biga.

Ikigo cy'amashuri gifite ubukarabiro bwubakishije amakaro ndetse gifite ibyumba bimwe bisakaje amabati y'ubururu ibindi bisakaje amabati y'umutuku, inyuma y'icyo kigo hari ibiti birebire bihari.

Icyumba gisize irangi rya beje. Amadirishya ari muri icyo cyumba k'ishuri arimo ibirahure kandi harimo n'intebe abanyeshuri biga bicayemo. Hejuru muri purafo harimo vandarateri ihuha umuyaga kugira ngo icyunzwe kitabica.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugeretse, yubakishije amatafari ahiye ariko hari ahasize irangi rya beje ndetse ifite inzugi n'amadirishya arimo ibirahure.

Icyumba gisize irangi rya beje kandi harimo ameza y'ibiti, ateretseho ibirahure byamenetse ibindi biri munsi y'ayo meza ndetse icyo cyumba gifite amadirishya arimo ibirahuri.

Ikigo cy'amashuri aho hari umuryango munini ukinguye, ucamo abinjira n'abasohoka ndetse hirya hari inyubako zigiye zitandukanye hamwe n'ibiti birebire.

Inzu isizwe amarangi agiye atandukanye, harimo irya beje ndetse n'umukara kandi imbere yayo hari esikariye zimanuka kugira ngo abantu bahaza biborohere kuhazamuka ndetse no kuhamanuka.

Icyumba cy'ishuri kirimo ameza n'intebe ndetse higirwamo abanyeshuri biga muri kaminuza, icyo cyumba kirimo amadirishya y'ibirahure ndetse muri ayo madirishya harimo n'amarido afite ibara rya shokora.

Icyumba giteyemo irangi rifite ibara rya beje kandi kirimo igitanda cya shokora ndetse gishasheho uburingiti bwiza na mashini iteretse kuri ubwo buriri kandi hasi harimo tapi ifite ibara ry'umweru n'umukara.

Ahantu mu kigo hari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, zimwe zisakaje amabati y'ubururu izindi ay'umutuku ndetse hari n'ikibuga cy'umupira kirimo akazu gasize irangi ry'umuhondo.

Ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye. Ndetse hari ahapakiye ibizwi nka kizimyamoto, aho hantu hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye. Ndetse n'ubusitani burimo indabyo n'ibyatsi.

Inyubako isize amarangi agiye atandukanye ndetse ifite ingazi zimanuka kugira ngo zorohereze umuntu uri kuhanyura, kandi hirya yayo hari iyindi nyubako ikikijwe n'ibiti byinshi.

Icyumba gisize irangi ry'umuhondo, ndetse harimo utubati dukinguye twose kandi hari n'ameza asize irangi ry'umweru, hamwe n'irya shokora, iruhande rw'ameza hari intebe.

Inyubako zubatse ku buryo bugeretse, ndetse hari ahasize irangi risa n'ivu, ahandi hubakishije amatafari ahiye, ndetse hari n'agahanda karimo amapave, kandi aho hantu hakikijwe n'ibiti.

Inzu ifite umuryango munini ukinguye, imbere y'aho hari umuhungu wambaye ingofero n'umupira by'umukara ndetse n'ipantaro ufite ibara rya shokora ari kwerekeza kuri uwo muryango kugira ngo yinjiremo kandi iruhande rwawo hari ivaze irimo ururabo.

Ikibaho gifite ibara ry'icyatsi ndetse cyometse ku gikuta gisize irange rya beje, gikoreshwa n'abarimu mu gihe bari kwigisha abanyeshuri, kandi iyo basobanurirwa bandika ku kibaho bituma abanyeshuri bafata ibyo bize.